Ibyatsi bikunda kumera ahantu hari amabuye ariko bikaba bikunda gukorwamo umuti, bikaba bikura bisa n'icyatsi ariyo mpamvu bakunda kubyifashisha bari kuvura indwara zitandukanye, harimo nka maraliya.

Ibyatsi kenshi na kenshi bakunze gukoreshamo imiti gakondo bakoresha bari kuvura indwara nyinshi cyane, zigiye zitandukanye harimo malariya ndetse n'izindi.

Igihingwa gihingwa m'ubutaka bita ishyu, gikura gifite amababi y'icyatsi ariko cyamara gukura gkikavamo uruboga rwo kurya. Iruhande rwaryo hari amabuye ndetse n'ubutaka, ndetse n'ibindi byatsi bitari amashyu.

Ibyatsi byiza cyane byinshi, byinshi biri ahantu heza mu murima munini, aho byifashishwa biri kuvura abandi bakabyifashisha bari kubikoramo ibiryo.

Ahantu hasa nkaho hari amabuye manini cyane, ndetse hakaba hari n'icyatsi kitari kirekire cyane, mbese n'ibindi byatsi bigaragara yuko byumye, hakaba hari kuva izuba n'igicucu gikeya.

Igiti giteye ahantu mu ishyamba. Hari ibiti byinshi cyane n'ibyatsi byinshi cyane. Kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.